Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo serivisi zitandukanye nka serivisi za banki, kohereza no kwakira amafaranga aturutse hanze Western Union, telefone Camon thirty, ifatabuguzi rya televiziyo Startimes ndetse na DSTV.

Umugore ucigatiye ifu y'umweru, iri mu gakarito k'umwe, mu kaboko ke k'ibumoso, ari kumwe n'abandi bagore babiri, bafite amasuka, umugabo umwe utagaragara neza hagaragara akaboko ke n'ingofero ye, bari mu murima uhinzemo ibigori, bagenda babikoraho abandi bagenda babagara.

Mu icyumba cy'ubucuruzi, umugore ari gutambuka yinjira mu cyumba. Yambaye umwenda wabugenewe, ndetse n'uruhande rwe, hari utubati tugizwe n'imiti myinshi igi itandukanye. Harimo iri mu dukombe ndetse n'iri mu udushashi.

Mu murima munini w'ibirayi kandi biteye ku murongo, abagabo batanu bari kugenda batera umuti wica udukoko, hirya hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hirya naho hari akandi gasozi karambuye.

Umugabo wirabura usutamye kandi yitegereza mu mucanga, wambaye umwenda w'ubururu hejuru, afite uruhara ndetse n'umusatsi mwinshi. Hakurya ye hari urukuta rwubakishijwe ibyondo ndetse hari n'ibipira n'ibiti.

Umuryango w'inzu y'ubucuruzi ufiteho icyapa kiriho imiti igiye itandukanye, hakoteshejwe amakaro ndetse hari na firigo ku ruhande ifite ijage hejuru, hari etajeri irimo imiti myinshi ndetse n'indi etajeri igiye irimo imiti igaragarira mu kirahure.

Umurima utari munini, ufite ibara rijya gusa nk'ivu, hejuru yawo hari ibyatsi byinshi kandi byumye, bino bita ibishangara, ndetse hari n'umwumbati utarakura cyane ufite utubabi dutoya.

Umurima munini cyane w'icyayi. Ndetse uciyemo amaterasi. Urumuri rwinshi rw'izuba, bituma icyayi gisa nk'ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi. Hakurya hari utundi duti dutoya tumeze nk'inturusu. Ndetse, hagati mu cyayi, hagiye haciyemo utuntu twuyira.

Inkwavu nyinshi cyane zitandukanye ziri gufatira ifunguro hamwe, ifunguro rigizwe n'ibiryo bisa umweru, zifite amabara atandukanye harimo enye zisa umweruru, harimo ebyiri zisa umukara, harimo n'urundi rumwe rufite ibara rijya gusa nk'ivu.

Akaboko k'inzobe kambaye ishati ifite ibara ry'ivu, gapfumbatije umuti uri mu ishashi risa nka zahabu, umuti ukaba ari uw'amatungo magufi azwi ku izina ry'ingurube, imbere hari ingurube iri mu kiraro, gikotejwe na sima ndetse kizengurutswe n'inkuta zubakishijwe sima, hakurya hari ibiti bitandukanye.

Mu cyumba harimo umuganga wambaye imyenda yabugenewe. Arimo asuzuma imbwa iryamye hasi kuri sima. Iruhande rwabo hari igikarito cyuzuyemo amagufawa menshi. Hari kandi n'ameza ateretseho hejuru umugozi ukoreshwa mu gucomeka mudasobwa. Hari kandi n'igikapu cyo mu ibara ry'ikigina.

Umugabo uri gukata icyondo akoresheje isuka ndetse n'amaguru ye. Ari aguseka yishimye, imbere ye hari umurima uteyemo imyumbati. Hakurya hari undi uteyemo ibigori, insina ndetse n'urubingo ku mpande.

Mu murima urambuye, umugabo arimo aragenda yufira imyaka. Akuramo ibyatsi bibi asiga imbuto nziza. Harimo imyaka itandukanye n'ibigori ndetse n'insina.

Umurima munini kandi uhinze, hagati uciyemo akayira. hirya hari umugore wunamye urimo gutera imbuto mu murima uhinzi. Harimo urutoki, ndetse inyuma ye hari n'urutoki rwinshi cyane n'ibiti.

Umusore ufite isuka mu ntoki asa nkaho ari gukata icyondo, imbere y'imbuga y'inzu yubakishije icyondo na yo, iruhande rwayo hari urutoki ndetse n'igipira, asa nkaho ku ruhande rwe hari imboga cyangwa se ibyatsi.

Abantu benshi batandukanye biganjemo igitsina gore, harimo umwe uhagaze uhetse umwana, abandi barunamye kandi bari kujonjora ibigori byumye, inyuma yabo hari igare rifite imyenda inyuma ku ntebe yaryo, ryegamiye inzu y'igikuta k'icyondo.

Umusozi ufite ibiti birebire by'amashyamba kandi byipfukirane, harimo hazamukaho abagabo b'abazungu bafite ibikapu ku mugongo, umwe afite igisubururu, undi kirasa umuhondo, hari n'ikirere kirimo urumuri ruvuye ku izuba.

Iruhande rw'umuhanda usa igitaka hari umurima uhinzemo igiti cyagiye gikura kigayagaya. Uwo muririma uteyemo n'ibyatsi cyimeza. Icyo giti gikingirije inzu ifite umuryango w'irange ry'umukara ndetse isakajwe n'amategura.

Imirasire y'izuba irimo irasa mu murima uhinzemo ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'urutoki ndetse n'imbuto nk'umwembe, harimo ibigori n'ibindi byatsi bya kimeza bigiye bitandukanye, hirya y'aho hari inzu itagaragara neza.

Ibase iteretse hasi irimo igihingwa kizwi ku izina rya tangawizi, ni nyinshi ndetse harimo n'umufuka, ibase iratukura, ndetse ku ruhande hari n'amashitingi.

Hejuru ku gitambaro cyiganjemo amabara menshi, harimo ay'umweru, umuhondo, umutuku, umukara, ndetse n'ibishushanyo bimeze nk'indabo, hateretse imboga zitwa sereri, ndetse zisa icyatsi.

Imbuganga ngari ikurikiranwa n'umurima munini cyane uhinzweho ibishyimbo, ufite uruzitiro runini rwubakishije imiyenzi. Inyuma y'urwo ruzitiro hakaba hari intoki nyinshi n'ibiti bitandukanye bimeze nk'inturusu. Hari n'agasozi ndetse n'ikirere kinini mu ibara ry'umweru. Ugarutse hino hari inzu yegeranye na wa murima uhinzeho ibishyimbo.

Umugabo wunamye yishimye cyane ateruye inyanya mu ntoki ze, mbese iruhande rwe hari n'igitebo kirimo inyanya zuzuye kandi zihishije. Inyuma ye hari agasozi kariho ibiti n'amashyamba. Mu murima ahagazemo harimo izindi nyanya ziteye.

Ni umurima umeze nk'akarima k'igikoni, gahinzemo karoti zameze zikagira ibyatsi byazo kandi byinshi cyane, uzengurukijwe n'urugo rwubakishije ibiti bisanzwe kandi na rwo rwagiye rumeraraho ibyatsi by'urwiri.

Ubusitani bugizwe n'indabyo z'icyatsi zifite uturabyo tw'umuhondo ndetse n'umutuku, inyuma yabwo, hari urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye na bwo kandi ruzengurutswe n'indabyo, hirya hari inzu ifite amabati asa umutuku akikijwe n'igiti kinini cy'amarumbo.

Urusenda rwinshi cyane ruri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi, ndetse n'umutuku ruzwi ku izina rya pilipiri. Ruri mu mufuka urambuye kandi ugaye ku buryo bigaragarira ijisho, rurasa neza kandi rurakeye nk'aho ruhanaguye.

Ubusitani butoya bwiganjemo indabo z'icyatsi cyerurutse ndetse n'icyatsi kibisi, harimo izifite uturabyo tw'umutuku ndetse n'utw'umuhondo. Hirya gato hari urukuta rugizwe n'amatafari ahiye ndetse n'irangi ry'ubururu bwijimye.

Isoko aho abacuruzi bateraniye ari benshi, hari imbuto zigiye zitandukanye, abenshi barimo abacuruzi ni abagore, mu mbuto harimo inanasi, ipapayi, ndetse n'izindi.

Umwana w'umukobwa upfumbatishije akaboko ke k'ibumoso amatunda menshi, ari gukoresha akandi kaboko k'iburyo amanura andi matunda, amaso ye ari kureba hejuru hari amatunda menshi amukikije, hakurya hari n'ikirere gikeye cyane mu ibara ry'ubururu.

Abagore babiri bishimye kandi bari guseka, bicaranye n'umugabo umwe, bose bari kwerekana imboga z'inyanya zibateretse imbere ku kameza, ndetse no mu kabase. Iruhande rwabo hari ibase y'icyatsi ndetse n'indobo y'umuhondo. Imbere yabo kandi hari imboga zitandukanye. Amadegede, intoryi, inanasi ndetse na karoti. Hakurya yabo hari agasozi ndetse n'umurima uhinzeho ibigori.

Agasozi kanini cyane gafite amaterasi y'indinganire. Hagati harimo umuhanda w'igitaka, ndetse hepfo gatoya y'ahantu hahinze, hagiye harimo n'amazu abiri. Hirya cyane harimo n'ibindi bihingwa biteye n'ibyatsi bya cyimeza.

Mu murima mugari cyane, abahinzi bari gutera imbuto zabo ku murongo, hari kandi n'inzego za Leta daso, hari kandi n'amashyamba akikije uwo murima n'inzu ziwuri hakurya yawo.

Ni ikibaya cyiganjemo ibyatsi byinshi bya kimeza, hirya yacyo gato hari inzu imeze nk'ishaje, hejuru gato ku musozi hubatse inzu nziza cyane mu mabati y'umutuku, ikirere kirakeye cyane mu ibara ry'umweru.

Agasozi kameze nk'ikibaya, gafite ikirere gikeye cyiganjemo ibara ry'umweru n'ubururu bukeya. Hari udusozi turiho amashyamba, ndetse hari n'ibiti byinshi, hari intoki nyinshi ndetse hari n'amazu nk'ahatuye abantu.

Igishanga kinini cyane, gifite utuyira tugenda ducamo amazi, hagati hagiye hahinzemo umuceri, ku mpande hari ahari amabuye n'ahadahinze, hirya hari ibiti biteye ndetse n'ibyatsi bya kimeza.

Ni umugabo n'umugore bahagaze imbere y'ikiraro. Umugabo yegamiye ikiraro kirimo akanyana gafite ubwatsi mu kiraro, ndetse n'ibisasirwa by'ibyatsi byumye. Hirya inyuma yabo hari urugo rw'imiyenzi ndetse n'umurima uhinzemo imyaka.

Umurima uzengurutswe n'indabo zifite amahwa, zisa icyatsi n'uturarabyo tw'umutuku. Hirya yaho hari inzu ndetse n'amashyamba menshi. Hari kandi hinino ihene ebyiri ziziritse zegamiye agakuta gatoya. Hari kandi n'ibyatsi bisanzwe.

Imbere y'inzu yubakishijwe icyondo, umuryango muto usa ubururu n'akadirishya gato gasa ubururu, hahagaze umugabo, umugore ndetse n'umwana w'umuhungu, imbere yabo hari akanyana gafite ibara ry'umukara, bose barishimye kandi bari guseka, inyuma yabo harimo n'isuka.

Umugore wishimiye umusaruro we w'ubworozi, afite ihene imwe mu kaboko k'iburyo inyuma ye hari izindi ebyiri zikikijwe n'urutoki ndetse n'umurima uhinze neza, hakurya witegereje neza urabona ko ari umurima uhinzemo ibigori.

Ikiraro cy'ihene cyubakishijwe ibiti ariko na none kidasakaye, harimo ihene eshatu, ebyiri z'umukara n'imwe y'umweru irimo n'ibara ry'ikigina, ziri kurisha urubingo.

Ihene y'ishashi, ifite amabara atandukanye. Harimo ibara ry'umukara, umweru, ndetse n'umuhondo. Ihagaze ahantu hari ibyatsi, bimeze nk'ibyumye, ndetse n'ibindi bitaruma neza, by'ibigorigori. Iziritse ku rugo, rw'imiyenzi.

Itungo rigufi iri tuzi ku izina ry'ingurube riri kunywera amazi mu gipira giciyemo kabiri, inyuma yaryo hari udupira tubiri kamwe gapfundikije umufuniko usa umukara akandi gapfunduye kadafite umufuniko, ndetse hahagaze n'umuntu wambaye inkweto zisa umukara ndetse harimo n'akantu k'umutuku, ndetse n'ipantaro ifite ibara rijya gusa n'iry'ivu.

Umusore uteye umugongo kandi wambaye ishati ya kakaro, ari mu kiraro ari kureka inyana iri mu ibara ry'umweru wiganje n'akabara gake k'umukara ngo yonke nyina iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru rikeya, bakaba bari mu kiraro bose ari batatu, ni ukuvuga inyana, inka ndetse n'umusore.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo babiri, umukecuru umwe, umugore umwe, ndetse n'abana batatu bari hamwe, bari gutoranya ihene, inyuma yabo hari urutoki rwinshi ruhinze mu murima, hari n'izindi hene ziri kugenda mu muhanda w'igitaka, hakurya hari agasozi gatuyeho n'amazu y'abantu.

Mu byatsi byinshi bipfukiranye hicayemo inkende yasamye, ifite amabara menshi atandukanye: mu maso ijya gusa n'ibara ry'ivu, ku mugongo ijya gusa nk'umuhondo, mu gihe ku maboko yayo isa umukara wijimye.

Inyamaswa y'igitera, ifite ibara ry'umukara wiganje cyane mu maso ,ndetse n'ibara ry'umuhondo werurutse ku gihimba, ihoberanye n'umwana bihanze amaso hakurya, yicaye ku rutare, hakurya hari urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ikiraro cyo mu kirere mu Rwanda kizwi mu gace ka parike ya Nyungwe aho urimo agendera hejuru, abasha kwitegereza neza imisozi ndetse n'amashyamba bigiye bimukikije.

Ku nkengero y'amazi arimo ibyatsi byinshi, ndetse akikijwe n'igikuta cya sima, hahagaze inyoni iri mu mabara menshi atandukanye, yiganjemo ubururu, ndetse ifite n'ijisho risa umuhondo. Inyuma yaho hari igiti gisa icyatsi, ndetse n'ikindi gisa umuhondo ujya gusa nka zahabu.

Inyamaswa y'Igitera yicaye hasi, yarambuye umurizo inyuma yawo mu muhanda w'amabuye ugizwe n'utubuye twinshi hakurya yayo hari igihuru kirimo ibiti byo mu ibara ry'icyatsi.

Inyoni imwe ifite amabara menshi atandukanye. Ijisho ryayo rirasa umukara, umunwa wayo usongoye cyane kandi ugasa umukara. Ibara ryo ku mutwe kugeza ku ijosi ni icyatsi cyerurutse cyane. Ku mababa ni ibara ry'icyatsi cyerurutse cyane ndetse n'umukara. Ku gihimba ni ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umweru. Amaguru ni ibara rijya gusa nk'ivu. Ndetse ihagaze ku giti na cyo gifite amabara menshi atandukanye, yiganjemo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Umutubu ufite ijisho rimwe risa umukara cyane, umeze nk'uri kureba hejuru, ufite uruhu rukanyaraye cyane kandi ruriho amagaragamba, ruri mu ibara rujya gusa nk'ivu ndetse n'umuhondo, uri hejuru y'igiti wagira ngo ni mu mazi.

Igikona gishaje, gifite ijisho ry'umukara, umunwa udasongoye cyane w'umukara, ku ijosi no ku mutwe ni ibara ry'umukara, ku nda ku gihimba ni ibara ry'umweru ndetse n'umukara, amababa na yo ni umukara, gihagaze ku giti na cyo kijya gusa umukara, hejuru ni igiti gifite amashami atagaragara neza, n'igicu kitagaragara neza.